Turimo turabona abantu batandukanye bicaye mu ntebe hanyuma imbere yabo hari umuntu wambaye umupira w'ubururu bwererurutse hanyuma yambaye n'ijire y'umukara afite indangururamajwi mu ntoki ze arimo arababwira kandi abo bantu rwose bashishikajwe cyane no kuba bamutega amatwi, turimo turabona ibyapa imbere y'abo bantu berekana ko ushobora kwiyubakira ejo hazaza nibyo bintu barimo baraganiraho hano.

Abantu benshi bagiye batandukanye bose bicaye hamwe, barimo baraganira ku bintu bigiye bitandukanye, turimo turabona kandi abagiye bazamura ikiganza, ibi bituvuze ko nk'inama y'amatora bari kwamaza abakandida batandukanye, hanyuma bitewe n'ushaka gutoroka akazajya ugenda uzamura ikirenge, byaba ari byo, kuko turimo turahabona abantu benshi kandi batandukanye.

Ameza manini cyane azengurutsweho n'abantu, aya meza asa ikigina, kandi abo bantu bagiye bazengurutseho, buri wese agiye yicaye. Buri wese kandi agiye afite icyo kunywa, hari abafite imitobe, hari n'abafite amazi. Turimo turabona kandi, imbere hari ishusho nini cyane irimo iragaragaza ibintu barimo barareba mu mamashini. Iyi tuvuze ko ari inama y'akazi ntabwo twaba twibeshye, aho abantu bahateranira bavuga ibijyanye n'akazi bitandukanye.

Iyi foto iragaragaza inzu ifite urugi rw'icyuma ikagira amaesikariye ikaba ifite amatara hanze ifite n'igiti.

Abantu benshi batandukanye birimo biragaragara ko hari umuntu bateze amatwi, kuko hagati yabo hari umuntu wambaye umwambaro wa RIB ufite indangururamajwi muntoki ze arimo arababwira. Ubusanzwe rero RIB n'ikigo gishinzwe gukora iperereza kubyaha, kikaba gifite inshingano zo gukurikirana no gukumira ibyaha mu Rwanda, gikora iperereza kubyaha bitandukanye birimo ibyaha by'ubujura, ibyaha by'iterabwoba, ruswa n'ibindi byaha bikomeye.

Abantu bicaye mu ntebe nziza z'umukara, imbere yabo hari ameza agiye afatanye, kandi kuri buri muntu imbere ye hagiye hateretse ubwoko bw'ibyo kunywa, hariho amazi ndetse n'umutobe, si byo gusa kandi bagiye bafite icyo kwandikaho ndetse n'ikaramu mu ntoki zabo, kandi turimo turabona wagira ngo bari mu nama nk'abayobozi.

Turabona umunara muremure cyane rwose mu ubusanzwe rero umunara ugira akakamaro kanini cyane bitewe n'aho ukoreshwa cyangwa ibikorwa ufitanye n'isano nabyo, dore akamaro k'umunara mu buryo butandukanye ni mu buryo bw'itumanaho aho umunara w'itumanaho ukoreshwa mu kohereza no kwakira ibimenyetso by'itumanaho rya telefoni zigendanwa iterineti n'ibindi. Bikoresho by'ikoranabuhanga byoroshye cyane itumanaho mu buryo bwihuse kandi bikagera kure hanyuma kandi kamaro k'umunara ni umutekano itara ry'urumuri ikimenyetso cyangwa ikirango ndetse no gukwirakwiza amashusho cyangwa amajwi.

Icyapa gisobanura byinshi wamenya ku byerekeranye n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ushobora kwibaza umusoro ku nyungu nki z'ubukode. Ni ukuvuga ngo ni umuso ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye, cyangwa undi muntu wese utishyuye umusoro ku nyungu z'amasosiyete, abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda.

Turabona inzu z'imiryango itandukanye kandi hejuru y'iyo nzu hariho icyapa cyanditseho Irembo, ubundi Irembo rero batanga serivisi zigiye zitandukanye za Leta, aho batanga serivisi z'irangamimerere, serivisi za porisi, serivisi z'ubuzima, serivisi z'abinjira n'abasohoka, ni serivisi zitandukanye, ubu ukenera serivisi yose ya Leta, wayisanga ku rubuga rw'Irembo.

Imodoka nini cyane tumenyereye kwita bisi ni imodoka itwara abagenzi cyane cyane mu mujyi wa Kigali, aho ishobora gutwara abagenzi batagira umubare, hari abagenda bicaye hari n'abagenda bahagaze, kandi byoroshya ibintu kubera y'uko, itwara abantu benshi kandi ikabavana mu cyerekezo kimwe ikabajyana mu kindi ku mafaranga make. Turabonamo abagore babiri hari uwambaye igitambaro mu mutwe, bose bafite telefone barangariye muri telefone.

Ahantu hari ibyatsi byiza cyane, hari kandi amashyamba meza, hari n'ahantu hajya kumera nk'imisozi. Mu gihugu cyacu tugiye dufite ahantu hatandukanye hameze nk'ahangaha, aho ushobora kujya kuhasura kandi ukishyura kuko aba ari ibyiza nyaburanga, niba wumva warushye mu mutwe ukaba wumva ushaka kuruhuka, ushobora gusura ahantu nk'ahangaha kandi byagufasha.

Ishusho yanditseho ijambo rura mu ibara ry'ubururu. Ubundi mu busanzwe intego nyamukuru ya rura, ni uguteza imbere imikorere myiza ya serivisi za leta, kubahiriza amategeko no kurengera inyungu z'abakiriya ndetse n'abaturage. Sibyo gusa kandi ifasha no mu gushyiraraho ibiciro bishyize mu gaciro ku bicuruzwa na serivisi zitangwa zitandukanye. Rura kandi ni ikigo cya leta mu Rwanda, gishinzwe kugenzura serivisi z'imirimo y'ibanze n'iby'ingufu mu gihugu, harimo itumanaho, ingufu, amazi n'isukura, ubwikorezi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu cyangwa se icyumba, turimo turabonamo ibintu bigiye bitandukanye hari ameza y'ubwoko bwinshi, harimo kandi n'ikintu bajugunyamo imyanda, turimo turabona amamasashi y'ubwoko butandukanye, tukabona umusore imbere yacu wambaye ingofero arimo arakoresha i iyo mashini, bino ni ibiro bitewe na serivisi runaka batanga zitandukanye.

Icyapa cyerekana ibintu byinshi bitandukanye wakora kugira ngo umenyekanishe umusoro ku mutungo utimukanwa umwaka watambutse w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, harimo kujya gusura urubuga rw'imisoro n'amahoro arirwo "wa ishatu akadomo ra ebyiri a akadomo ga na o na va akadomo rwa, hanyuma ugahita ukanda ahantu handitse ngo injira umenyekanishe ubundi ugashyiramo tini yawe n'ijambo ry'ibanga ugahita ukanda ahantu handitse ngo imenyekanishe. Iyo umaze gukora ibingibi byose ibindi biba birimo biragaragara ukurikiza amabwiriza biroroshye.

Icyapa cyanditseho ngo shishoza mu gihe uhamagawe cyangwa wakiriye ubutumwa busaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye. Ibi bintu akenshi bakunda kubikorera abantu babahamagara bakababwira ko ari abakozi ba Emutiyeni, hanyuma bakabacocora utwabo bakabakuramo amafaranga bababeshye. Banyarwanda dukumire ibyago nk'ibi ngibi bitaraba, mu gihe byakubayeho ushobora kubahamagara, gatatu icyenda umunani umunani bakaba bagufasha.

Umuhanda wa kaburimbo munini ufite ihuriro ry'imihanda ritandukanye, turabona abanyamaguru benshi batandukanye ari abari kwambuka, hari n'abari kugenda muri gahunda zabo zitandukanye, turabona amodoka menshi kandi muri uwo muhanda, tukabona n'icyapa gishobora gusobanura yuko ushobora kugenda, ushobora guhagarara, cyangwa ushobora kwitegura kugenda bitewe n'amaba bashyizemo, aho harimo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Inzu isize irange ry'umweru mo imbere hakaba harimo umukobwa cyangwa se umudamu wambaye ikabutura ndetse akaba yambaye hejuru umupira uri mu ibara ry'umweru, akaba ahetse n'igikapu, inyuma ye hakaba hari intebe ndetse n'igikoresho babikamo amata.

Inzu nini irimo imiryango igiye itandukanye kandi myinshi kandi iyo nzu imbere yaho ikikijwe n'indabyo nziza kandi cyane imbere yaho kandi y'izo ndabo hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi, inzu nk'izi ngizi rero tuvuze ko ari ishuri ryigishwamo ibintu bitandukanye ntago twaba twibeshye kuko inyubako nyinshi cyane z'ishuri ziba zimeze nka gutya.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Ishusho y'ibitaro bya Masaka, turahabona abantu batandukanye, bacicikana hagati yabo, hari abari kwijira, hari abari gusohoka, hari n'abagaragara ko bari mu nshingano kuko hari abambaye amataburiya. Ibitaro ni ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu, niba wiyumva neza, cyangwa se wumva utameze neza, wagana ibitaro bakagusuzuma bakakurebera, kuko ubuzima burahenda cyane.

Inyubako igaragara nk'ishuri mbere yayo hamanitse idarapo rigihugu cy'u Rwanda hanze y'ikigo hari umuntu mu muhanda ufite igitabo mu ntoki ugenda yihuta ageze hafi y'icyapa.

Amaderapo abiri y'igihugu cyacu cy'u Rwanda turabona imbere y'ayo madarapaganderi abantu batandukanye bayihagazeho by'umwihariko kirimo turabona umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda turabona ko hari n'abayobozi b'impande zitandukanye bashinzwe serivisi zitandukanye za leta. Ubundi mu busanzwe leta itanga serivisi kugira ifashe abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi zishobora kuba zishingiye ku burezi ubuvuzi umutekano ubutaka imisoro ubuhinzi n'ibindi byinshi intego nyamukuru y'izi serivisi ni ukugira ngo twongerere imibereho myiza y'abaturage no guteza imbere igihugu cyacu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho gusa abagaragara imbere yacu, bicaye ku intebe y'urubaho nabo bambaye imyenda y'iroza isa bambaye n'inkweto z'umukara zirimo amasogisi y'umweru, imyenda nk'iyingiyi mu Rwanda imenyereweho kubantu bakoze ibyaha bitandukanye, bakaba barakatiwe igifungo runaka bari muri gereza wagirango bitabiriye inama runaka, kuko wagira ngo barimo barareba imbere umuntu cyangwa se hari imbere abayobozi bari kubaganiriza.

Amadarapo y'iguhugu cyacu cy'u Rwanda turimo turabona ari atanu . Inyuma yayo madarapo kandi hari abantu bahicaye benshi batandyukanye bambaye ubwoko bumwe bw'imyenda bambaye amakanzu. Aya makanzu tuyamenyereye ho cyane mu Rwanda ku banyeshuri basoje kaminuza kuko niyo bambara , imbere yabo kandi hari ameza hicayeyo abantu batatu bo bambaye n'ingofero biragaragara ko ari abayobozi babo barimo barabaganiriza ibintu bitandukanye.

Umuntu wambaye umwenda urimo uragaragara ko ari ibara ry'iroze, kandi ifite indangururamajwi riri hafi n'ijosi rye, arimo aravuga kandi akavugira muri iyo ndangururamajwi abantu bose bakumva. Birimo biragaragara ko ashobora kuba ari imfungwa irimo iravuga cyangwa se ari imfunga ihagarariye abandi hakaba hari ijambo yageneye abantu arimo arabahereza.

Turabona umugabo wambaye ikanzu kandi yambaye n'ingofero, ndetse afite n'indangururamajwi imbere ye birimo biragaragara ko arimo aravuga. Amakanzu nkayangaya tuyamenyereye cyane nko mu gihe kaminuza zitandukanye zasoje amashuri. Rero birashoboka ko yaba ari umuyobozi w'iyi kaminuza akaba arimo aragira nk'ijambo agenera abanyeshuri bashoje icyiciro cya kaminuza cy'amashuri.

Umugabo wicaye wambaye ishati yirabura wifashe ku munwa, iruhande rwe hari umugore bicaye bareba abantu bari imbere yabo nabo bicaye bari kureba muri ekara nini.

Amacupa atandukanye rimwe rirasa umutuku irindi cupa rirasa umweru hanyuma ayo macupa ikintu ahureyo yose agiye afite ibintu bimeze nk'ibitemba hejuru, amacupa nk'ayangaya ahantu ushobora kuyasanga ni ahantu by'umwihariko batanga serivisi zitandukanye cyane cyane ku ma banki ntago wajyayo ngo ubure icupa nk'iringiri. Kuko aya macupa ikintu amara ni ukuba barwanya inkongi y'umuriro cyangwa se nko mu gihe umuriro wateye bitunguranye, aya macupa akaba yakwifashishwa mu kuzimya umuriro.

Amacupa y'umutuku hanyuma hejuru y'ikintu kimeze nk'igitemba. Amacupa nkaya tuyamenyereye ku izina cyane cyane nka kizimya moto aho yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro iba yabaye ahantu runaka sibyo gusa kandi, mu mabanki igiye atandukanye n'ahantu hatanga serivisi zitandukanye ushobora kugasanga kino kizimyamwoto, kuko buri gihe habaye inkongi y'umuriro bize koroha ko umuriro wazinywa byihuse.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'icyubahiro abenshi bambaye amakote n'amashati y'umweru mo imbere igitsina gabo kuri bo harimo igitsina gore n'abagiye bambaye amakote harimo turimo turabona bicaye mu ntebe zisa umukara barimo barareba imbere nkaho wagira ngo hari umuntu urimo urababwira ikintu runaka, hanyuma rero ibingibi tubimenyereye ku nama ziyubashye cyane cyane nk'inama z'abayobozi b'igihugu nk'urugero twavuga ni nk'izabasenateri ujye ureba kenshi ukuntu inama zabo ziba zimeze ziba zimeze nka gutya.

Ifoto nziza cyane y'umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda Kagame polo. Turabona afite igipapuro mu ntoki ze biragaragara ko ari ahantu agiye kugishyira. Hanyuma nk'abanyarwanda turabizi iyo turi mu matora turagenda tugafata igipapuro nk'ikingiki, hanyuma tugahita umukandida twatoye, tugafata kino gipapuro tukagishyira ahabugenewe ariho abantu barimo baratoresha biborohera kubara amajwi. Nibyo n'umukuru wacu w'igihugu rwose arimo arakorera ahangaha nta kabuza.

Turabona umugabo wambaye ikaruvati rwose yambaye n'ishati y'umukara yazamuye amaboko, hanyuma imbere ye hari indangururamajwi si byo gusa kandi yicaranye n'undi mugabo nawe wambaye ipantaro y'ikoboyi nikote ry'umukara hanyuma rero tuvuze ko hano hantu ari nka korali, cyangwa se barimo barasenga bahimbaza Imana ntabwo twaba twibeshye, kuko ko wazamura amaboko ukunda kwifatwa cyane cyane wifashishwe muri mu rusengero.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Nk'uko ubibona ku bantu bahazi iri ni isoko rya Nyarugenge, hariho ibirango byinshi cyane bimwe biri mu mabara y'umuhondo ndetse amagambo yandikishije umweru hasi hari iby'umutuku wareba imbere hari imodoka nyinshi cyane ubona ko ziri gutambuka buri imwe ifite aho agiye.

Umuhanda wa kaburimbo, muri umuhanda kandi turimo turabonamo imodoka nini cyane y'umweru dukunda kwita igikamyo, hanyuma rero hakurya y'umuhanda turimo turabona ibiti bitandukanye tukabona kandi n'icyapa cya mitsingi, imitsingi ni inzoga ikundwa cyane cyane mu Rwanda n'igitsina gabo, ino modoka rero ubwoko bwazo ikintu bazikoresha ni ugutwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka.

Umuhanda wa kaburimbo tukabonamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho turimo turarabonamo amamodoka, tukabonamo n'amapikipiki, tukabona n'ishyamba kandi ku ruhande, ni byiza banyarwanda ko twubahiriza amategeko yose aranga umuhanda, by'umwihariko ku bantu batwara ibinyabiziga, haba ari ibyapa mu muhanda bigenda bikumenyesha icyo gukora, niba ugeze ahantu bakubwira ngo hagarara uba ugomba guhagarara, namwe banyamaguru kandi mwikwangiza imibereho myiza y'umuhanda mugerageza gukora ibyo mwishakiye mu muhanda kuko mwahura n'impanuka.

Imodoka iparitse hanyuma muri iyo modoka yicayemo umugabo cyangwa umusore . iyi modoka biragaragara ko ari imodoka muri zimwe zigisha abantu gutwara ibinyabiziga. Hanyuma rero hari ibintu ushobora gukora neza kugira ngo wigishe abantu kandi bakaba bamenya imodoka, harimo gutegura gahunda yo kwigisha, harimo amategeko y'ibanze y'umuhanda, harimo kugira ibikoresho byiuza, harimo gutanga urugero rwiza no kwihangana harimo kwitoza bihagije mu bikorwa, harimo kandi kumenya kugenzura abayeshuri buri gihe. Hanyuma rero abarimu nk'aba ngaba bigisha imodoka kuko biragaragara ko uyu musore yigisha imodoga baba bagomab kwigisha abantu kugira ngo babimenye kugira ngo bazabashe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu barubone.

Umuhanda wo mu hagati harimo umurongo w'umuhondo, uwo muhanda u ikin ushinzwe no kugabanya ibisate bibiri by'umuhanda kugira buri modoka ize kuza kumenya ko iri bugendere mu kaboko k'iburyo kayo, turabona kandi imodoka nini ipakiye imifuka myinshi igiye itandukanye. Imodoka akenshi bazifashisha mu kuvana imizigo myinshi ahantu runaka bayijyana ahandi.

Umuhanda munini wa kaburimbo harimo ibyabiziga bitandukanye, turimo turabonamo imodoka y'ubwoko butandukanye, tukabonamo ama moto, tukabona n'abanyamaguru kandi barimo baragendera murimo uyu muhanda. Ubundi tuba tugomba kumenya ko niba uri kugendera muhanda ushobora kuba utwaye imodoka menya yuko umuhanda atari wenyine uwusangire n'abandi hanyuma wige kuwukoresha neza. Niba uri n'umunyamaguru kandi iga kubahiriza amategeko y'umuhanda we kubangamira abantu usanze mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo muri uwo muhanda harimo haragenderamo ikinyabiziga dukunda kwita ipikipiki, icyo kinyabiziga kandi gitwawe n'umuntu wambaye inkweto z'umukara zirimo n'umweru, ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umukara ndetse na kasike y'umukara. Iyi pikipiki ntago ari nkazimwe dusanzwe tuzi tumenyereye kuko yo imeze nkisakaye, imeze nk'ubwoko bw'imodoka ntoya akenshi mu Rwanda dukunda kuzikoresha mu kwimura abantu cyangwa se gutwara ibintu bikomeye cyane biremereye kurenza ibyatwarwa n'ipikipiki zisanzwe.

Turimo turabona umuhanda wa kaburimbo muri uwo muhanda kandi harimo hagenderamo ipikipiki ndetse turimo turabona n'igare ryahaparitse rihetse ikintu cyumufuka, si ibyo gusa kandi umuhanda aho urangirira hatangira umuhanda abanyamaguru abantu bagenderamo, ni ukuvuga ngo nk'ikinyabiziga turimo turabona k'igare, ni ikinyabiziga gifasha abantu mu gutwara imizigo bayivana ahantu runaka bayigeze ahandi.

Uyu mupapa mwiza cyane urabona ko umusatsi yawukuyeho hejuru. Hasi hari ubwanwa bwinshi nyuma ye urahabona imitako afite mikoro ari kubwira abantu benshi imbere ye hari ikayi n'ikaramu na telefone yegeranye n'undi mudamu ubona ko yiyubashye.

Umuhanda wa kaburimbo muri uwo muhanda haparitsemo imodoka y'umweru ntoya cyane dukunda kwita ivatire, sibyo gusa kandi ruguru y'umuhanda n'undi muhanda w'amatafari ni ho abanyamaguru bakunda kugendera cyane cyane haparitsemo n'indi modoka, na none y'umweru ntoya y'ivatire, iyo modoka yanditseho yego. Yego ni imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye zitwara abagenzi muri uyu mujyi wa kigali cyangwa se hanze y'umujyi wa kigali aho ushobora kuba wibereye mu rugo ugakoresha ikoranabuhanga cyangwa se ukabahamagara bakakugezaho wifuza ku giciro cy'amafaranga make cyane.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya y'imodoka turimo turahabona ibiti sibyo gusa kandi, turimo turahabona amapoto agiye asize irangi ry'umweru imbere ya kaburimbo kandi, turimo turabahabona umuhanda w'amatafari, aho abanyamaguru bakunda kugendera tukabona imodoka nini cyane y'umweru irimo irambukiranya ijya muri kaburimbo, mwene izi modoka zimenyereweho cyane gutwara imizigo, gutwara amatungo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitatwarwa n'imodoka ntoya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragendamo ipikipiki si ibyo gusa kandi iruhande rwa kaburimbo turimo turahabona umuhanda w'amatafari hahagazemo umuntu cyangwa se aricaye, ntago birimo biragaragara neza cyane, kandi turimo turabonamo imoto cyangwa se ipikipiki iparitsemo ifite purake ya RF811J, yego hanyuma rero m'ubusanzwe moto zoroshya ingendo aho ushobora gukenera kujya ahantu runaka ukaba wayitega kandi ukagenda mu gihe gito cyane gishoboka, ukagera washakwashakaga kujya udakerewe.

Ahantu hameze nka gare aho abantu baza gufatira imodoka kuko turahabona urujya n'uruza rw'abantu, hanyuma Kandi n'amamodoka niho azaguparika kugirango azekua gutwara abagenzi. Turimo turabonamokana imodoka z'ubwoko butandukanye muri ya modoka manini dukunda kwita kwasiteri aho akoreshwa cyane mu gutwara abagenzi abavana mu cyerekezo kimwe abajyana mu kindi.

Ugize ejo hezo ukazigamira umwana wawe ku buryo ushobora kugira ikibazo, yamafaranga bakayamuhereza cyangwa se waba uri umusore warabikoze hakiri kare, ukagenda bagahita bayaguhereza ushobora kubaka nibwo buryo bashyizeho. Urabona ko hano rero ni urubyiruko ndetse n'abandi bari kubyamamaza rwose bari kumwe n'inzego z'umutekano niba ndi kureba neza.

Icyapa cyo mu muhanda cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, tugiramo ibyapa bigiye bitandukanye ,aho waba utwara imodoka cyangwa utayitwara, iyo ubonye icyo cyapa uhita umenya icyo kimenyesha kandi ukagikora. Nk'iki cyapa turimo turareba imbere yacu kirimo kiratwereka ko, bitemewe guca muri iki cyerekezo cy'umuhanda kandi koko ntabwo byemewe.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya y'umuhanda turimo turahabona ibiti, tukabona inzu kandi, tukabona n'umuntu uri kugendera muri icyo cyerekezo wambaye ipantalo y'ikoboyi cyangwa se isa umukara akaba yambaye n'umupira w'umweru ufite ingofero mu mutwe, sibyo gusa kandi turimo turabona icyapa imbere yacu aho cyanditseho murenge wa Giheke biragaragara ko ariwo murenge tugezemo turi kugenda.

Ikirango cyo mumuhanda gishoshanyijeho makumyabiri kandi hashoshanyijeho umuntu urimo urirukanka. Hanyuma rero iki n'icyapa cyo mumuhanda dukunda kubona cyane aho dukunda kwita muri feruje mundimi z'amahanga. Iki cyapa rero ikintu kiba gishatse kumenyesha kiba kirimo kirereka abanyamaguru ko bagomba kwambuka umuhanda mu masegonda atarenze makumyabiri kandi kikamenyesha abantu batwaye ibinyabiziga ko bagomba guhagarara bakareka abanyamaguru bakambuka.

Ibiti byiza imbere yacu, nureba hakurya y'ibiti uraza kuhabona amazu y'ubwoko butandukanye, amazu meza cyane agaragarira rwose buri muntu wese ko ari meza, hanyuma kandi turimo turabona ko ari amazu yagiye yubakwa mu buryo bumwe, ibi bintu hari gahunda ya Leta yigeze kuza, aho bategekaga abaturage runaka bitewe n'agace babamo kuba baba mu mudugudu ugasanga amazu yabo yose arasa cyangwa yubatse kimwe, ibi bintu rwose bikaba ari na byiza cyane.

Turimo turabona inzu nziza cyane rwose kandi imbere y'iyo nzu iha icyapa cyerekana ko iyo nzu ikodeshwa, hariho imyirondoro ya ba nyirayo kugira mu buryo wenda ushobora kuyikenera wayibona byihuse kandi byoroshye, hariho nimero za telefoni zitandukanye wabonaho, hariho imeyili yabo, hariho n'urubuga bakoresha. Mu gihe ukeneye inzu nk'iyingiyi wabagana cyangwa se ukabahamagara kuri nimero ya telefoni bashyizeho bakaba bayiguhereza mukavugana n'igiciro ukishyura.

Inzu nziza cyane iteretse ahantu heza cyane, turimo turabona imbere yaho hari ibyatsi bigaragara ko hano hantu hari isuku. Tuvuze ko ino nzu ijya kumera nk'inyubako itangirwamo serivisi ya Leta byaba ari byo rwose kuko turimo turabona wagira ngo ni nk'Akarere, kandi akarere batangiramo serivisi za Leta bafasha abaturage kugira ngo banyurwe na serivisi bahawe. Nukuri yubatse neza kandi iri ahantu heza hatuje, turimo turabona n'ibyatsi ndetse n'amashyamba cyangwa se ibiti, byerekana ko aho hantu hari umutekano.

Amapikipiki arimo aragenda mu muhanda mu byerekezo bitandukanye tukabona kandi imodoka na irimo iragenda mu muhanda utandukanye y'amapikipiki urimo uragenderamo turimo, turabona kandi ibiti bigiye bikikije umuhanda, hanyuma tukabona n'inzira y'abanyamaguru igiye irimo amabuye. Ni byiza ko abanyarwanda bose tumenya gukoresha umuhanda, waba utwara ibinyabiziga cyangwa utabitwara, ukamenya uburyo wakwitwara kugira ngo twirinde impanuka mu muhanda za hato na hato.

Turabona umuhanda wa kaburimbo ahantu hagaragara neza cyane, ni ahantu hanini hagiye hasize irangi ry'umweru. Ni ukuvuga ngo iki gice gisizemo irangi ry'umweru ni igice cy'abanyamaguru bambukiraho. Ushobora kuba uri mu icyerekezo cy'umuhanda runaka, ushaka kwambuka ngo ujye mu kindi cyerekezo, ni byiza kurindi ukabanza ukareba ahantu hari ikimenyetso nk'ikingiki, cyangwa afite umuhanda umeze nk'uyunguyu, kuko niho abanyamaguru baba barateganyirijwe kwambukira, ibinyabiziga rwose bikabanza bikabareka bagahagarara bakabona kwambuka.

umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bitandukanye turimo turabona mo amapikipiki muri uwo muhanda tukabona kandi ibiti bigiye biteye ku mpande z'umuhanda tukabona n'umuhanda w'abanyamaguru. Ni ukuvuga ngo uba mu gihungu ry'urwanda waba uba hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabizi neza ko i kigali mu Rwanda ariho haba imihanda nk'iyi ngiyi igira isuku nk'iyi. Umuhanda nk'uyu uwubonye uhita wibwira ko ari uwo muri kigali.